Umurima w'ibigori aho harimo abagabo babiri, bari kugenda babitera umuti babyuhira kugira ngo imvura nitinda kugwa, bage bashyiramo amazi maze bikomeze bikure neza, ubundi bibahe umusaruro batere imbere bakirigite ifaranga.

Akabati keza cyane karimo amoko agiye atandukanye y'imiti, aho iyi miti ari ingirakamaro cyane ku matungo kuko bituma umuntu wese woroye amatungo igihe arwaye yihutira kujya kugura iyi miti.

Abantu babiri b'abazungu bahinze ibihingwa bitanga umusaruro ukomoka ku ndabyo, bakaba bari kugenda babitera umuti kugira ngo bitazabasha kuba byafatwa n'udusimba maze bikabarumbira.

Ubuhinzi bw'umuceri ni ingirakamaro cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga umuceri, bakawitaho, bakawutera umuti kugira ngo udafatwa n'udusimba tukawumunga.

Umukobwa uri mu murima uteyemo ibigori akaba ahetse ipombo yabugenewe, ari kugenda abitera umuti kugira ngo ibyo bigori bitazafatwa na nkongwa maze bikaba byarumba bagahomba.

Umuntu wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'umuceri akaba ari mu murima uhinzemo umuceri, afite ipombo ari kugenda awutera umuti kugira ngo uwo muceri utazafatwa n'udukoko maze ukaba warumba.

Umuntu wambaye iby'umweru, akaba ahetse ipombo ari kugenda atera umuti ibihingwa bye kugira ngo arebe ko nta dukoko twazajyaho, maze bikabasha kwera neza.

Umuntu uri mu murima uhinzemo umuceri, akaba ari kugenda awuhira akoresheje ipombo ryabugenewe kugira ngo uwo muceri utazafatwaho n'usutimba maze ukaba warumba ntiwere neza uko nyirawo abyifuza.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ingirakamaro cyane, aho hari umugabo mugufi wambaye amadarubindi akaba ari kugenda abitera umuti kugira ngo arebe ko ibyo bigori bye byazabasha kuba byamuteza imbere.

Umusaruro w'umuceri urambitse ahantu ku meza, uwo muceri rero ukaba ari mwiza kandi ari mwinshi, uwushyize ku munzani wasanga hariho nk'ibiro bigera muri bibiri.

Ubuhinzi bw'imbuto cyane cyane nk'inanasi buba ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wahinze izo nanasi akazitaho zibasha kumuha umusaruro bikaba akarusho nk'iyo waziteye umuti urinda udukoko kuba twazijyaho.

Umuntu wambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi, akaba ahetse ipombo mu mugongo, ari kugenda yuhira imbuto ze yahinze ahantu mu mubande yifashishije ipombo ye.

Umuntu ufite ipombo iri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi n'umuhondo, ikaba irimo umuti bifashisha bari gutera indabyo kugira ngo izo ndabyo zibashe kuba zamererwa neza, maze zizatange umusaruro.

Umuntu wambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi akaba yarakoze umwuga w'ubuhinzi bw'indabyo aho ari kugenda azitera umuti izo ndabyo kugira ngo zidafatwaho n'udusimba.

Uburobyi bw'amafi ni ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe umuntu asigaye akora umwuga wo korora amafi, akayaha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma yamara gukura akayaroba.

Ubworozi n'uburobyi bw'amafi bikomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bororera amafi mu by'ubuzi, bayaha ibyo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo nayo azabateze imbere.

Umugabo ukora umwuga w'uburobyi aho afashe amafi abiri mu ntoki akaba ari kuyerekana, akaba yambaye ishati y'ubururu, ingofero ndetse n'amadarubindi.

Uburinganire n'ubwuzuzanye bikomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abakobwa na bo basigaye bashoboye, basigaye bakora imirimo ya gihungu harimo nko korora amafi ndetse no kuroba.

Ubworozi bw'amafi bukomeje gutera imbere cyane mu rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora amafi barabigize umwuga, hanyuma nayo akazabateza imbere igihe bayarobye.

Umuntu wakoze umwuga w'ubworozi bw'amafi akaba ari kugenda ayarobera mu ibasi yarangiza akayaterura akayajyana akajya kuyashyira ahabugenewe kugira ngo abashe kugaruka maze arobe andi.

Ubworozi n'uburobyi bw'amafi bikomeje kwitabwaho cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bakora umwuga w'uburobyi bw'amafi bakajya bajya kuyaroba mu kiyaga nk'umushinga.

Ubworozi bw'amafi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora amafi barabigize umwuga, bakayitaho, bakayaha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma bajya kuroba bagasanga yarakuze cyane.

Ubworozi n'uburobyi bw'amafi bigenda birushaho gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye bororera amafi mu by'ubuzi hanyuma yamara gukura bakajya kuyaroba.

Icyuzi kirimo amoko agiye atandukanye y'utuzu, aho utu tuvu twororerwamo inkwavu ndetse ibyo kurya cyangwa ibyatsi zisohoye bikaribwa n'amafi aba yororewe muno kugira ngo atange umusaruro.

Uburobyi bw'amafi ni ingenzi cyane aho muri iki gihe abantu basigaye barebaba amafi barabigize umwuga, bakabyitaho cyane kugira ngo bizabashe kuba byabateza imbere mu gihe kizaza.

Uburobyi bw'amafi busigaye bwarateje imbere ba nyirabwo, aho basigaye baroba amafi hanyuma bakayashyira mu ibase bakagenda bayagurisha umuntu uwo ari we wese uje ayashaka.

Umuntu wize ibijyanye n'ubworozi bw'amafi, akaba ari kugenda abaga ifi akoresheje uburyo bugezweho bwabugenewe kugira ngo ataza kuba yayangiriza maze ikamuhombya.

Abantu bagera muri batanu boroye amafi mu buryo bwa kijyambere, none bakaba bagiye kuyaroba aho bari gutunganya indobani kugira ngo bazifashishe bari kuroba.

Umurima uhinzemo icyayi, aho harimo abantu benshi cyane bari kugenda bagisoroma, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, aho bafite intebo zabugenewe, bakaba bari kuzifashisha basoroma iki cyayi.

Umurima munini cyane uteyemo icyayi hakaba hari kunyuramo umugore ufite igikoresho cyabugenewe aho ari kugenda atera umuti icyayi kugira ngo arebe ko icyo cyayi cyabasha gukura neza.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ingenzi cyane, aha bari kutwereka, ikawa yumye bamaze gutonora ndetse n'indi ikiri mbisi, itari yagera igihe cyo kuba yasarurwa ngo ibe yajyanwa ku isoko.

Umurima mwiza cyane munini cyane kandi mugari utewemo ibihingwa ngengabukungu bizwi nk'icyayi aho ari ingirakamaro cyane k'umuhinzi wacyo.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe umuntu wese wahinze ikawa, ibasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga mu buryo bugiye butandukanye, akaba yasezera ubukene.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu cyane cyane nk'ikawa, biba ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uhinze ikawa, akayitaho, ibasha kumuteza imbere maze akabona umusaruro ufatika.

Umugore uri mu murima uhinzemo icyayi, akaba ari kugenda agisoroma, bigaragara ko umwuga w'ubuhinzi bw'icyayi yawugize uwe, akaba ari umukobwa mwiza cyane w'inzobe, ari kugenda yerekana umusaruro.

Umurima uteyemo ikawa aho hari umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare, akaba yagiye gusoroma iyo kawa kubera ko yeze kugira ngo arebe ko yayijyana ku isoko maze bakamuha amafaranga.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu, bukunze guteza imbere cyane ba nyirabwo, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ikawa, bakayitaho, hanyuma bayisarura bakayigurisha, ikabaha umusaruro ufatika maze ubwo bagahita batera imbere, bakabona amafaranga

Umuntu wikoreye ibasi irimo amoko agiye atandukanye y'ikawa, ikawa rero ni ingenzi cyane kuko umuntu wese uyifite ibasha kuba yamuteza imbere.

Ubuhinzi bw'icyayi buteza imbere benshi cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga icyayi barabigize umwuga, hanyuma byamara gukura bakajya kugisoroma bakaba bakigemura.

Ibihingwa ngengabukungu bigiye bitandukanye bikunda gutunganywa n'ibihugu by'amahanga aho u Rwanda ruba rwabigemuye hanyuma bikavanwamo ibiribwa byiza cyane n'ibinyobwa biryoshye.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ingenzi cyane aho muri iki gihe abanyarwanda benshi basigaye baritabiriye guhinga ibihingwa ngengabukungu kugira ngo bizabateze imbere.

Ubuhinzi bw'icyayi nabwo buteza imbere benshi cyane mu Rwanda, aho umuntu wahinze icyayi kimuteza imbere ndetse n'umuntu wabashije kugisoroma na we kikamuteza imbere maze akabona amafaranga akunguka agatera imbere.

Abagore bari mu murima uhinzemo icyayi bigaragara ko bakoze umwuga w'ubuhinzi bw'icyayi barabigize umwuga, bakaba barakitayeho none bakaba bari kugisoroma ngo bakigemure.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda nka kimwe mu bihingwa ngengabukungu, bikaba biterwa mu isambu yera kugira ngo nyirabyo bizabashe kumuteza imbere.

Umuntu wahinze ibihingwa ngengabukungu bizwi nk'ikawa, bikaba bigeze igihe cyo kwera none akaba yagiye ari kugenda asoroma izitukuye ngo azijyane ku isoko.

Igishanga giteyemo umuceri uwo muceri ukaba uri mu mazi, ubuhinzi rero bw'umuceri ni bumwe mu buhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu ku buryo umuntu wese uwuhinei ubasha kumuteza imbere.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje kwitabwaho mu Rwanda by'umwihariko nko mu turere dukonja, duherereye mu ntara y'Iburengerazuba nka Ngororero ndetse na Rubavu, tutibagiwe n'Akarere ka Nyabihu.

Urufunguzo rumeze nk'agakoresho bifashisha barihe guca amahembe y'inka za kizungu kugira ngo izo nka zizabyibuhe, kakaba karambitse hasi ku makaro.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi agiye atandukanye, aho uducupa ari ingenzi cyane kubera ko tuba turimo imiti igiye itandukanye ivura amatungo.

Uducupa tugiye dutandukanye turambitse ahantu hamwe turi mu mabara menshi na yo agiye atandukanye, tukaba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho mu imbere harimo amoko agiye atandukanye y'imifuka irimo imiti cyangwa se ibikoresho byifashisha bari kuvura amatungo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako mo imbere harimo ibikoresho byose nkenerwa abantu bifashisha mu mwuga w'ubworozi cyane cyane nk'umuti uvura amatungo.

Akuma kabugenewe karambitse ahantu ku makaro, kakaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bari kuvura inka cyangwa se bazikura amahembe igihe zimaze gukura.

Inyubako nziza cyane irimo udukarito tugiye dutandukanye, aho muri iyo nyubako harimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo ayo matungo azakure neza.

Inyubako nziza cyane yu'ubukwe mu buryo bugezweho aho ifite icyumba giteye amarangi y'umweru ku bikuta, mu imbere hakaba harimo udushashi n'imifukarege bitandukanye birimo imiti myinshi yifashishwa mu kuvura amatungo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye biba biri ahantu cyane cyane nk'uducupa tuba turi mu mabara y'umweru ndetse n'icyayi, ni ingenzi cyane ko utu ducupa tuba turimo umuti uvura amatungo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'uducupa tuba turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo.

Uducupa tugiye dutandukanye ndetse n'udukarito biteretse ahantu mu kabati, bikaba birimo imiti igiye itandukanye aho iyi miti yifashishwa mu kuvura amatungo indwara nyinshi.

Ishashi irimo amoko agiye atandukanye ry'imiti aho iyo miti iri mu mabara y'umutuku, ni ingenzi cyane kuko yifashishwa ivura amatungo agiye atandukanye, iyavura indwara ziba zayafashe.

Udukarito twinshi tugiye dutandukanye dupanze hamwe mu nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, tukaba turimo imiti igiye itandukanye aho iyo miti yifashishwa mu kuvura amatungo.

Uducupa tugiye dutandukanye turambitse ahantu hamwe ku kabati tukaba turimo imiti igiye itandukanye, aho iyi miti yifashishwa mu kuvura amatungo indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho mu imbere harimo udukarito twinshi tugiye dutandukanye aho utwo dukarito turimo amoko agiye atandukanye y'imiti yifashishwa mu kuvura amatungo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho mo imbere harimo akabati kabugenewe, ako kabati kakaba karimo imiti igiye itandukanye ivura amatungo agiye atandukanye.

Akayetajeri karimo amoko agiye atandukanye y'amacupa, aho ayo macupa aba arimo imiti igiye itandukanye ivura amatungo, iyi miti rero ni ingenzi kuko umuntu wese woroye amatungo aba agomba kuyigura.

Amoko agiye atandukanye y'udupfupa ndetse n'inshinge bifashisha bari gutera inka zagize ikibazo, cyane cyane iyo bashaka gutera inka inanga bifashisha utu dukoresho kugira ngo ba yitere urwo rushinge.

Inyubako nziza cyane vuba twe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo uducupa twinshi tugiye dutandukanye, aho utwo ducupa tuba turimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo barebe ko ayo matungo yabo yazakura, akabaha amasaro.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka za kizungu bakazitaho, bakaziha ubwatsi bugiye butandukanye hanyuma na zo zikazabateza imbere.

Umugore n'umugabo bari kumwe bakaba baranduye igiti cy'umbati bishimye cyane bigaragara ko barikwereka ukuntu iyo wahimbye imyumbati uyitayeho ibasha kuguteza imbere maze ugakirigita inoti.

Umugore uri ahantu mu murima afite ibihoho bibiri birimo amoko agiye atandukanye y'imbuto, akaba ari kuyerekana yerekana ubwiza bwayo kugira ngo abashe kuba yajya kuzitera mu murima we.

Ubuhinzi bw'ibigori bukomeje gutera imbere cyane mu rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ibigori barabigize umwuga bakabyitaho kugira ngo barebe ko byazabaha umusaruro bakaba batera imbere.

Umugore uri mu murima aho uwo murima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa aho higanjemo urutoki ndetse n'imyumbati, akaba ari kugenda ahingamo kugira ngo arebe ko byazamuha umusaruro maze akaba yatera imbere mu gihe kizaza.

Umurima uhinzemo ibigori aho harimo abantu batatu bagiye muri uwo murima, bagiye gushaka umusaruro w'ibigori kugira ngo barebe ko byazabateza imbere.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bororera inka mu rugo iwabo kugira ngo zitazabasha kuba zakwangiza ibidukikije cyangwa zikavunikira mu gasozi.

Umugore uri imbere y'umurima uhinzemo ibigori, akaba yambaye agapira k'ubururu. Ari imbere y'umurima w'ibigori, aho ari gusuzuma neza ngo arebe ko ibigori bye byeze ndetse byabasha no kumuteza imbere.

Abantu bagiye batandukanye bahuriye hamwe, aho harimo abaturage ndetse n'abapolisi, bakaba bari mu gikorwa cy'umuganda, aho bari kugenda batera amoko agiye atandukanye y'imbuto ndetse n'ibiti kugira ngo bizabateze imbere.

Abantu bari kugenda ahantu mu gishanga, bakaba bavuye gusarura umuceri, bawusunitse ku igare, bigaragara ko bagiye gushakamo amafaranga yababeshaho mu gihe kizaza.

Umugabo ari kumwe na mugenzi we aho bari mu murima aho bahinze amateke, bakaba bari kugenda bayakura bayashyira mu kadobo kugira ngo barebe ko babona ibyo kurya cyangwa se bakaba bajyana ku isoko.

Umugabo uri mu murima we uhinzemo umuceri, akaba ari kugenda awitaho kugira ngo arebe ko uwo muceri we wazamuteza imbere, maze akabona amafaranga agakita ifaranga.

Umuntu uri mu kazi ko gutera ibimera bigiye bitandukanye, biragaragara ko ari igihe cy'umuganda none akaba ari umuyobozi uri kwereka abaturage uko bagomba gukora neza bagakorera hamwe hanyuma bakabasha kwiteza imbere ndetse n'Igihugu.

Umugabo n'umugore bahuriye hamwe mu murima wahinzemo ibirayi, bakaba bari kugenda babibagarira, uwo mwana ari kugenda inyuma yabo, aho ari kubunga nk'umugisha muke kugira ngo atababuza gukora.

Umugore uri kugende mu murima we uhinzemo amashu akaba yiteze igitambaro, uwo mugore rero bigaragara ko yakoze umwuga w'ubuhinzi bw'amashu akaba ayitaho uko bikwiriye.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

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho bakazikama maze zikabaha umusaruro bagatera imbere.

Ubworozi bw'inka ni ingirakamaro cyane, aho umuntu wese woroye inka by'umwihariko nk'uworoye inka za kizungu zibasha kumuteza imbere cyane maze akabona amafaranga akaba yaba umukungu abikesha ubworozi bwe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye karabasasa, igiye iciyemo uturongo turi mu mabara y'ubururu, ikaba isakaje amabati kandi iruhande rwayo hateye insina.

Umurima urimo ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye aho ibi byatsi ari ibihuru bikaba byarameze ahantu bigaragara ko umuntu aramutse atabyitayeho byazateza Malariya.

Umugore uri mu murima w'ibigori, akaba ari kugenda areba uko ibigori bye bimeze kugira ngo arebe ko byazamuha umusaruro mu gihe kiri imbere dore ko byenda kwera biri hafi.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga imyumbati barabigize umwuga, bakayitaho maze ikazabateza imbere mu gihe kizaza.

Ubuhinzi bw'imbuto na bwo ni ingirakamaro cyane aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga imbuto zizwi nk'amaronji cyangwa amacunga, bakazitaho hanyuma zakwera bakaba bazigurisha.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga umuceri barabigize umwuga bakawitaho hanyuma wamara kwera bakawusarura, bakawujyana ku isoko kuwugurisha.

Umurima uhinzemo imyumbati aho iyo myumbati ari myiza cyane kandi ikaba yanateza imbere umuhinzi wayo, ubuhinzi bw'imyumbati rero ni ingirakamaro cyane aho muri iki gihe umuntu wese uyihinze ibasha kumuteza imbere.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibigori, aho ibi bigori ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga agasezera ubukene agakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bwa bodo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga izi mboga barabigize umwuga bakazitaho hanyuma na zo zikazabateza imbere bakabona umusaruro mu buryo bwiza kandi bufatika.

Ubuhinzi bw'intoryi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga intoryi barabigize umwuga bakazitaho hanyuma na zo zikazabateza imbere bakabona umusaruro.

Ibihaza biteye ahantu, aho abe bifite amababi meza cyane agiye atandukanye. Ni byiza cyane guhinga ibihaza kuko bitanga umusaruro maze umuntu akabirya.

Umugabo uri mu murima uhinzemo inyanya, akaba ari kugenda azuhira bya kinyamwuga, yifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba kandi hateyemo n'insina z'amoko agiye atandukanye nziza cyane.

Umurima uhinzemo imyumbati, aho imyumbati ari myiza cyane ku buryo umuntu wese uyihinze, akayitaho, ibasha kuba yamuteza imbere maze agakirigita ifaranga, agasezera ku bukene, akaba umukungujumba.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe, abantu basigaye bahinga imyumbati barabigize umwuga, bakayitaho hanyuma nayo ikazabaha umusaruro mu gihe kiri imbere bagatera imbere.

Ubuhinzi bw'imboga ni ingirakamaro cyane aho muri iki gihe umuntu uhinze imboga akazitaho babasha kuba bamufata nk'umukungugu kubera ibikorwa bye bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bw'urutoki bukomeje gutera imbere cyane mu Gihugu cyabo cy'u Rwanda aho hari abantu bafata umurima wabo bagahingamo urutoki gusa barabigize umwuga hanyuma bakajya babigurisha.

Umuntu ufashe amoko agiye atandukanye y'imboga n'imbuto, aho afashe karoti ndetse n'umwembe ndetse n'andi moko agiye atandukanye y'imbuto ari kubyerekana kuko bigize imirire myiza.

Umurima uhinzemo ibijumba, aho ari mwiza cyane ku buryo umushinga w'ubuhinzi bw'ibijumba ugenda urushaho gutera imbere cyane mu Rwanda uko bwije n'uko bukeye.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo burushaho gute imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ibihembo hanyuma bikabateza imbere, babiziritse ahantu ku biti igihe babisaruye.

Ubuhinzi bw'ibivumba nabwo bugenda bwitabwaho cyane, aho mu cyaro usanga ifunguro ryabo rya buri munsi ari ibijumba, bikaba nabyo ari ingenzi rero kuko bifasha abenshi.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga imyumbati barabigize umwuga, bakayitaho kugira ngo izabashe kubateza imbere babone umusaruro.

Umurima uhinzemo umuceri akaba ari ahantu mu gishanga aho harimo abantu bagiye batandukanye baje kwita kuri uyu muceri ngo ubateze imbere.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa ngengabukungu, aho ibi bihingwa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubashije kubihinga akabyitaho, bimuteza imbere maze akabona amafaranga.

Amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho izi mbuto ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese uzihinze akabasha kubyitaho, zimutera imbere cyane maze akabona umusaruro, bikaba byamuteza imbere.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, igihe baba bari kwiga isomo ryabo kugira ngo babashe kumenya amabara menshi agiye atandukanye aba agize ibikoresho byose.

Ibishyimbo byameze abantu mu gisambu bigaragara ko ari igisambu bari barahinzemo ibishyimbo, none bakaba bataragihinze imvura ikaba yaguye bigahita bimera ako kanya.

Amoko agiye atandukanye y'imboga aho izi mboga ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wazihinze akazitaho zibasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga akaba yasezerera ubukene akaba umukungu.

Igishanga kigari cyane giteyemo umuceri ariko ukiri muto, ubuhinzi bw'umuceri rero ni ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubuhinze bubasha kumuteza imbere.

Abantu bahinze imbuto mu buryo bwiza bw'iterambere barazuhira hanyuma na zo zikera neza zikabaha umusaruro maze bakaba bakwiteza imbere.

Dodo ni zimwe mu mboga nziza cyane kandi z'ingirakamaro, ku buryo umuntu wese uzihinze mu Rwanda zibasha kumuteza imbere ku buryo abona amafaranga ahagije, maze agakirigita ifaranga.

Umurima uhinzemo ibirayi bikiri bito bikiri kumera, aho ibi birayi ari ingirakamaro cyane kuko iyo bisaruwe bitunganywamo umusaruro mwiza cyane bakawugemura mu mugi bakajya bawifashisha nk'ifunguro rya buri munsi.

Ubuhinzi bw'inzuzi bukomeje gutera imbere cyane mu rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ibihaza bifashishije izo nzuzi kugira ngo nibyera bizabashe kuba byabateza imbere babone amafaranga.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo ukaba ufite utuyira tuwukikije tunyuramo abanyamaguru ndetse hepfo yawo hakaba hari ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti birebire.

Urusisiro rwiza cyane ruteyemo ibiti hakaba harimo n'inyubako nziza cyane zigezweho, bigaragara ko izo nyubako zubatswe n'abantu b'abakungu batuye aho hantu kugira ngo bahateze imbere.

Inyubako nziza cyane kandi nyinshi zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba ari inyubako z'amashuri abanza, hakaba hari n'ishyamba haruguru yazo ndetse n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye byiza cyane.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga agasezera ku bukene.

Ishyamba rinini cyane, riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti. Aho ibi biti ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese ubihinze, iyo bikuze bimuteza imbere. Bikabona uburyo bwo gukura.

Agasozi gaciyeho amaterasi kakaba gahinzeho amoko agiye atandukanye y'ibihingwa. Aho ibi bihingwa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wabihinze, bibasha mu kuba byamuteza imbere, maze akabona amafaranga menshi yo gutunga umuryango we.

Ahantu hari ishyamba ryiza cyane riteye mu buryo bugezweho aho iri shyamba ari ryiza cyane, ku buryo umuntu wese urihinze akaryitaho ribasha kumuteza imbere maze akabona umusaruro.

Igishanga giteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho, bibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Ahantu mu gisambu hateyemo amoko atandukanye y'ibyatsi, aho harimo n'ibiti bijye bitandukanye biri mu ishyamba, aho iri shyamba ari ryiza cyane ku buryo umuntu wese yakwifuza kuryifotorezamo.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubyicaye munsi bibasha kumuha umuyaga ndetse n'amahumbezi bityo akaba yamererwa neza akagubwa neza rwose.

Ishyamba rigari cyane riteyemo amoko agiye atandukanye by'umwihariko nk'ibiti bya kimeza, bakaba baragiyemo inka bigaragara ko ari uburyo bwiza bwo kwita ku matungo yabo bitabavunnye.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa aho hari inyamaswa izwi nk'inzovu, ikaba ari nini cyane kandi abantu bose bayikunda kuyireba kubera ukuntu yigirira amahoro.

Umuntu uragiye ahantu mu ishyamba rya kimeza, akaba aragiyemo inka kugira ngo arebe ko yabyibuha maze ikaba yamuteza imbere, ku buryo umuntu wese uzajya ayibona azajya avuga ko nyirayo azi korora.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingenzi cyane kuko umuntu wese ubashije guhinga igiti cy'inturusi mu murima we, kimuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Ikiyaga cyiza cyane aho hejuru mu mpinga y'umusozi hari agasozi gateyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wese wahinze ibi biti by'inturusi iyo byeze abigurisha maze akabona umusaruro.

Udusozi twiza cyane duteyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho hakurya hari igishanga cyiza cyane cy'indinganire giteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera cyane cyane umuceri.

Ishyamba rinini cyane, riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ibiti by'ishyamba rya Nyungwe, rikaba ari rinini cyane kandi ritanga umusaruro kuri nyiraryo kugira ngo rizabashe kuba ryamuteza imbere.

Ibiti by'imyembe ni bimwe mu mbuto nziza cyane ziribwa kandi zikaba ari n'ingirakamaro cyane mu Rwanda muri iki gihe kuko iyo umuntu azihinze zikera, zimuha amafaranga maze akiteza imbere.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, umuntu rero iyo akoze umushinga w'ubuhinzi w'imbuto cyane cyane nk'iz'avoka yarangiza akazigemura ku isoko abonamo amafaranga.

Umurima uhinzemo imyanya aho izi nyanya ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese uzihinze zimuteza imbere agakirigita, ifaranga agasezerera ubukene.

Igiti cy'ipapayi giteyemo amoko agiye atandukanye y'amapapayi. Aho hari amwe yamaze gutukura ndetse n'andi ataratukura. Ni byiza cyane kurya ipapayi kuko bitanga umusaruro, umuhinzi wayo ndetse n'umuntu wayiriye.

Umugabo wakoze umwuga w'ubuhinzi bwa dodo bwa kijyambere, akaba arimo imbere aho ari kugenda yita kuri ubwo buhinzi bwe ngo arebe ko bwazabasha kumuteza imbere cyane.

Umugore uri mu murima we uhinzemo intoryi akaba ari kugenda azitaho, ni byiza cyane ko umuntu wese wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'intoryi yajya azivomera kugira ngo zizamuhe umusaruro ufatika.

Igiti giteyemo imyembe aho iyo myembe ari ingirakamaro cyane kuko umuntu wese uyihinze akayitaho ibasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'indabyo na bwo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga indabyo barabigize umwuga hanyuma zakwera bakajya bazigurisha ahantu mu bukwe bakazitaka maze zikagaragara neza cyane.

Ubuhinzi bw'amashu ni ingirakamaro cyane kuko iyo wayahinze ukayitaho aguteza imbere. Abagore batatu bari mu murima w'amashu aho bari kugenda bayuhira kugira ngo atazicwa n'izuba.

Hari uburyo bwiza bwo kuhira bwaje aho muri iki gihe abantu basigaye buhira imyaka yabo, bakayitaho hanyuma bakaba babonaho umusaruro igihe cyose bayitayeho maze ikabaha umusaruro.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru kiri ahantu ku muhanda mu busitani, hepfo hakaba hateye ibihingwa by'icyayi byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho ubuhinzi bw'icyayi ari ingirakamaro cyane kuko buteza imbere nyirabwo maze agakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda by'umwihariko nk'ubuhinzi bw'imboga, uyu murima rero uteyemo amoko agiye atandukanye y'inanasi nziza cyane kandi zitukuye.

Umurima uhinzwemo umuceri mu buryo bugezweho, aho uyu muceri witaweho cyane ku buryo umuntu wese uwuhinze ubasha kumuteza imbere maze akaba yakirigita ifaranga.

Umugore wakoze umwuga w'ubuhinzi akaba yarahinze imboga zizwi nka dodo, akaba ari kugenda azuhira mu buryo bugezweho kugira ngo arebe ko zazabasha kumuteza imbere akabona umusaruro.

Umugabo uri mu murima we uhinzemo ibigori, akaba ari kugenda abyitaho, abitera umuti kugira ngo nkongwa zitazamufatira mu bigori maze bikaba byamuhombya maze agasubira ku isuka, ni byiza kwita ku myaka yawe uba uba wahinze.

Umwuga w'ubuhinzi ukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, uyu mubyeyi rero afite akakoresho kabugenewe ari kugenda yuhira ibihingwa bye yahinze ahantu mu gishanga kugira ngo biticwa n'izuba.

Umugore uri mu murima uhinzemo amashu, akaba ari kugenda ayuhira akoresheje umupira wabugenewe kugira ngo nayasarura azabashe kumuha umusaruro kubera ko azaba yareze neza.

Umuntu uri ahantu yahinze ibihingwa bigiye bitandukanye by'umwihariko nk'imboga, akaba afite agakoresho kabugenewe ari kugenda azuhira kugira ngo arebe ko zakwera neza.

Umuntu wakoze umwuga w'ubuhinzi none akaba ari mu murima we, aho ari kugenda yita ku bihingwa bye kugira ngo arebe ko byazamuteza imbere maze akabona amafaranga akaba yasezerera ubukene.

Umusaza ushanje cyane, wahinze imboga ariko akaba nta bushobozi afite bwo kuba yagura imashini yuhira, none afite indobo iziritseho umugozi ari kwifashisha, aho azirikaho umugozi, akajya aradaha amazi, akawukurura agasuka ku myaka.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ingirakamaro cyane aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ibigori barabigize umwuga bakabyitaho bakabiha ifumbire rihagije hanyuma nabyo bikazabateza imbere mu gihe kizaza bakabona amafaranga maze bakaba abakungu bujumba bagiye batandukanye.

Umurima urimo abantu bagiye batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari kugenda buhira iyi mitabo bigaragara ko bagiye guteramo imbuto kugira ngo zizabateze imbere.

Abantu benshi cyane bambaye amataburiya y'umweru bahuriye hamwe, aho bari ahantu mu murima uteyemo imbuto bari kugenda bazuhira mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga.

Umuntu wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'intoryi, none akaba yafashe umupira wabugenewe akaba ari kugenda azuhira azitera umuti kugira ngo arebe ko zazabasha kuba zamuteza imbere.

Muri iki gihe umwuga w'ubuhinzi bw'imboga ugenda urushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abantu basigaye bakora umwuga w'ubuhinzi hanyuma bakajya buhira imyaka bakoresheje ikoranabuhanga.

Umuntu uri mu murima uhinzemo amashu akaba ari kugenda ayuhira mu buryo bugezweho bigaragara ko ubuhinzi bw'amashu ya bugize umwuga, ni byiza cyane guhinga imboga ukazitaho kuko zitanga umusaruro utubutse.

Umugabo uri kugenda ahantu mu murima yahinzemo imyanya, akaba ari kugenda azuhira akoresheje ipombo yabugenewe kugira ngo arebe uko zazamuha umusaruro zigatera imbere.

Umugore uri mu murima uhinzemo amashu, akaba afite ipombo yabugenewe ari kugenda yuhira ayo mashu akoresheje uwo mupira kugira ngo aticwa n'izuba.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bahuriye hamwe aho bakora umwuga w'ubuhinzi, bakaba bari kumwe n'inzobere mu buhinzi ziri kubereka uburyo bashobora gukoresha igihe baba bari kuhira imyaka yabo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari uburyo bwaje bwo kuhira imyaka umuntu yifashishije imashini zabugenewe, aho amazi akogotwa n'umurasire maze imyaka ikuhirwa.

Ubuhinzi ndetse buteza imbere nyirabwo, iyo abashije kuhira imboto yahinze, akazitaho bigezweho maze zikaba zamuteza imbere akabona amafaranga.

Ahantu mu gishanga hateyemo amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho hari abantu bafite imashini zabugenewe bari kugenda buhira uwo muceri kugira ngo barebe ko wazabasha kwera hanyuma ugatanga umusaruro.

Ikiyaga kirimo amoko menshi agiye atandukanye y'amazi, aho gikikijwe n'udusozi twiza cyane duteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari byiza cyane kandi bikaba biteye amabengeza.

Ubuhinzi bumaze gutera imbere cyane aho muri iki gihe hari uburyo bwiza bwaje bwo kuhira imyaka, aho abantu basigaye buhira imyaka neza cyane kugira ngo izabashe guteza imbere ba nyirayo maze ubukungu bwiyongere.

Umugore wahinze intoryi mu gishanga none akaba ari kugenda azitaho kugira ngo arebe ko zazamuha umusaruro, maze akabona amafaranga akoresheje uburyo bwo kuhira.

Umugezi w'Akagera aho ukikijwe n'ibyuma biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, bikaba ari ibibuza umuntu kuba yagwamo atiteguye, ukaba ari mugaye cyane kandi ari mwiza.

Ubuhinzi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga ibihingwa mu gishanga hanyuma bakabyuhira mu buryo bugezweho bakoresheje imashini zabugenewe zuhira umuntu atavuye aho ari.

Umugezi unyura ahantu mu mubande ukaba ukikijwe n'ibihingwa bizwi nk'umuceri, bakaba bifashisha amazi ava muri uyu mugezi igihe cyose bagiye kuhira ibi bihingwa kugira ngo bitazarumba.

Umurima uhinzemo imbuto mu buryo bw'imironko, aho hagiye hari ibihombo bizana amazi, aho ibi bihombo ari ingirakamaro kuko bituma iyi myaka yuhirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga hanyuma izuba ntiribashe kuyigeraho.

Abagore bari kugenda ahantu mu murima bikoreye udutebo, bigaragara ko bavuye ku isambu gushaka ibyo kurya bigiye bitandukanye, barifashisha bari kugaburira abana babo.

Agasozi keza cyane gahinzeho icyayi, aho iki cyayi ari cyiza cyane ku buryo umuntu wese uhinze icyayi akacyitaho kibasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga, agakirigita ifaranga agasezera ku bukene.

Agasozi gahinzeho ibihingwa bigiye bitandukanye ndetse mu mpinga zako hakaba hahinzemo ibiti. Aho ibi biti ari byiza cyane ku buryo biteza imbere nyirabyo, agakirigita ifaranga.

Ibirunga biri mu mabara agiye atandukanye aho yiganjemo ay'umukara hakaba nta cyatsi na kimwe cyagezeho, iki kirunga rero giherereye mu Karere ka Musanze kikaba ari kinini.

Ikirere cyiza cyane kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba hari n'udusozi twiza cyane tunyurwaho n'abantu baje gusura u Rwanda ngo barebe ubwiza bwarwo n'imisozi yarwo igihumbi.

Umurima munini cyane kandi mugari hariho ahateye imyaka ndetse n'ahandi hateye ibiti byinshi bigiye bitandukanye, uyu murima rero ni mwiza cyane ku mutunzi woroye inka.

Amagare aparitse ahantu ku mugezi, bikaba bigaragara ko beneyo bagiye gushaka amazi kugira ngo barebe ko babona amazi yo kwifashisha bari gukora isuku mu rugo.

Ahantu hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'udusozi twiza cyane duteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere.

Agasozi gahinzeho amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uhinze ibimera nk'ibi ngibi bimuteza imbere mu gihe kizaza.

Agasozi gateyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere. Hubatsemo n'inzu isakaje amabati.

Udusozi twiza cyane tugezweho duciyeho amaterasi y'indinganire ariko kandi nanone duteyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze bimuteza imbere.

Ikiyaga kirimo udusozi ndetse kikaba gikikijwe n'udusozi twiza cyane duteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari byiza cyane kubera ko umuntu wese wabihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere.

Umurima uri ahantu ku gasozi uciyemo amaterasi y'indinganire. Hejuru hateyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze bimuteza imbere.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane ku buryo iyo umuntu wese ahinze agahinga ibimera mu materasi y'idinganire, bibasha kumuteza imbere cyane maze agakirigita ifaranga.

Agasozikero cyane gateyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho harimo ibiti bya kimeza ndetse n'ibiti by'ibiterano, ibi byose bikaba bikurura imvura nziza cyane.

Udusozi twiza cyane kandi twinshi, tukaba ari tumwe muri twa dusozi igihumbi tugize u Rwanda, tukaba duteyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane ku muntu wese ubihinga.

Ubworozi bw'inkoko bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Ubworozi bw'inkwavu nabwo bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye barora inkwavu barabigize umwuga, bakazitaho bakazeraha ibyorya bigiye bitandukanye.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho cyane cyane iziri mu mabara y'umweru kugira ngo zizabateze imbere.

Ikiraro kinini cyane cyororewemo amatungo azwi nk'inka, ubworozi bw'inka rero burushaho gutera imbere cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uko bwije ndetse n'uko bukeye.

Ubworozi bw'inka bukomeza gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka, bakaziha ibyo kurya bitandukanye, hanyuma nazo zikazabateza imbere igihe zabyaye.

Ubworozi bw'ihene ni ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye borora ihene barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye nuko na zo zikazabateza imbere bakabona umusaruro ufatika, maze bagakirigita ifaranga.

Ubw'ihene ni ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ihene barabigize mu umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma na zo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye burora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho kugira ngo zibateze imbere.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga bakazitaho bakaziha ibyo kurya hanyuma na zo zikazabaha umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma nazo zikazabateza imbere mu gihe kizaza.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inkoko babigize umwuga, bakazitaho hanyuma nazo zikazabaha umusaruro bagatera imbere mu buryo bugaragara.

Ubworozi bw'inka bwateye imbere cyane mu Rwanda aho kuri ubu abantu basigaye bubakira inka nk'ukoresheje ibyuma, bakabitera irange risa umweru n'icyatsi kugira ngo izo nka zitazabasha gusohoka.

Ubworozi bw'inka ni ingirakamaro cyane, aho muri iki gihe abantu bose boroye inka bakazitaho, bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye na zo zibateza imbere maze bakabona amafaranga ahagije.

Ubworozi bw'ingurube bugenda burushaho gutera imbere cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, hanyuma zamara kubyara bakita kubana kugira ngo bazabigurishe.

Ubworozi bw'inka bukomeje guteza imbere banyabwo cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye boroye inka barabigize umwuga, bakazitaho bakaziragira ahantu mu mashyamba kugira ngo zitabavuna, bari kujya ku zahirira.

Umuntu waroye inka bya kijyambere akaba akunda guhamagaza veterineri wabyigiye akaza kuzivura igihe cyose zagize ibibazo kugira ngo zitazabasha kuba zamuhombya.

Ubworozi bw'ihene bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye borora ihene barabigize umwuga bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma na zo zamara gukura bakazigurisha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, aho imbere yayo hari ubusitani buteyemo amoko meza cyane kandi menshi y'indabyo, ku buryo umuntu wese uhatembereye abasha kwishimira izo ndabyo.

Umukumbi w'ihene nyinshi cyane ndetse n'intama zikaba ziri ahantu mu mukeri ziri kurisha, bigaragara ko ubuhinzi ndetse n'ubworozi bikomeje gutera imbere cyane mu Rwanda ku bahinzi ndetse n'aborozi.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga bakajya bazigaburirira mu rugo kugira ngo zizabashe kubaha ifumbire.

Ingurube iryamye ahantu, bigaragara ko ibyibushye cyane kandi ikaba yaritaweho ku buryo yateza imbere nyirayo maze akaba yasezera ku bukene, agakirigita ifaranga.

Ubworozi bw'ingurube na bwo ni ingirakamaro cyane aho muri iki gihe abantu basigaye borora ingurube bya kinyamwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo zizabyibuhe hanyuma zibahe umusaruro ufatika.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

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye bororera inka mu rugo bakazishakira ku ubwatsi uko bikwiriye hanyuma na zo zikabaha umusaruro.

Inka iri mu kiraro, aho icyo kiraro gisakaje amabati, bukaba ari uburyo bwiza bwo korora inka maze tukazitaho kugira ngo zizabashe gutanga umusaruro ku muntu wese uzoroye abone amafaranga.

Ubworozi bw'ihene burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora ihene barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma na zo zikazabateza imbere.

Umwuga w'ubworozi bw'inka ukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga bakazitaho hanyuma bakajya banazihamagara mu mazina yazo.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora barabigize umushinga bakita ku matungo yabo kugira ngo azabashe kubateza imbere.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye kugira ngo na zo zizabashe kubateza imbere.

Korora inka ukayororera mu kiraro bitanga umusaruro mu nguni zombi, aho nyirazo abasha kubona amafaranga afatika ndetse akabona n'ifumbire nziza cyane y'imborera.

Agakoresho k'umukara gafite imibare yanditsemo, kakaba kazwi nka mubazi yifashishwa iri gupima umuriro runaka abantu baba bakoresheje mu nzu yabo kugira ngo bamenye uko ungana.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho. Iyi ikaba ari inyubako y'ubuhunikiro, aho hateraniramo abantu bajya batandukanye, bagiye gushaka imbuto bazifashisha, bari guhinga.

Amoko agiye atandukanye y'ibishyimbo bifitwe n'umuntu aho ari kwerekana imbuto zigiye zitandukanye z'ibishyimbo, akaba ari kureba ibyaba byiza cyane ku buryo babihinze byatanga umusaruro.

Umuntu ufashe ingano mu ntoki akaba ari kugenda azishyira mu myobo, bigaragara ko yakoze umwuga w'ubuhinzi bw'ingano none akaba ari kugenda azitera ku muronko ngo arebe ko zakwera.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho muri iyo nyubako harimo amoko agiye atandukanye y'imbuto cyane cyane nk'imbuto z'ibigori bakaba bazihurije hamwe kugira ngo barebemo indobanure.

Inyubako nziza cyane kandi nini yubatswe mu buryo bugezweho, aho muri iyo nyubako mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu mwuga w'ubuhinzi aho ari imbuto.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abantu basigaye borora inka z'Inyambo maze bakazitaho mu rwego rwo gusigasira umuco nyarwanda.

Ubworozi bw'inka bukomeza gutera imbere cyane ariko biba byiza iyo uyibagiye abaturage bakayirya, hanyuma mbere y'uko batangira kuyipima ugahamagara veterineri wabyigiye akaza akareba ko yujuje ubuziranenge.

Abantu baba barize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, baba ari abahanga cyane aho bo basigaye bavura amatungo yabo bifashishije ubunararibonye bavanye mu mashuri hanyuma agakira.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka barabigize umwuga bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye, hanyuma nazo zikazabateza imbere.

Udupfupa turambitse ahantu, aho harimo kamwe kanini k'umweru, gafite umupfundikizo ujya gusa umuhondo. Kakaba kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, hakaba harimo n'umuti uvura amatungo.

Uducupa tugiye dutandukanye tuba turimo imiti yifashishwa n'abaveterineri, igihe baba bari kuvura amatungo kugira ngo barebe ko bayakiza indwara zigiye zitandukanye ziba zafashe ayo matungo maze akaba yakira neza mu buryo bwiza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho hateraniyemo abantu bagiye batandukanye bize iby'ubuvuzi. Bakaba bambaye amataburiya y'umweru, aho bari kuvura inyamaswa izwi nk'imbwa.

Ubworozi bw'inkoko bumaze guterari imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inkoko babigize umwuga, bakabyitaho, bakaziha ibyorya bigiye bitandukanye kugira ngo na zo zizabateze imbere.

Ubworozi bw'inkuko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigage borora inkoko barabigize umwuga bakazitaho bakaziha ibyo kurya bigiye bitandukanye hanyuma na zo zikazabateza imbere.

Ubworozi bw'inka butanga umusaruro cyane rwose, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka kugira ngo nizigura bazazigurishe maze zibahe umusaruro na bo babashe gutera imbere cyane babone umusaruro.

Ubworozi bw'inka bugenda butanga umusaruro mu buryo bugiye butandukanye, aho umuntu ashobora kuyibaga, hanyuma inyama akazigurisha maze akabona amafaranga amubeshaho.

Abantu b'abaveterineri baba barize ibijyanye no kuvura amatungo baba bazi no gutera inshinge imbwa kugira ngo zitazasara cyangwa ngo zirume abantu bibagireho ingaruka.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho, bakaziha ibyorya bigiye bitandukanye, hanyuma nazo zikazabateza imbere mu gihe kizaza.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, uko bwije n'uko bukeye, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bita ku matungo yabo, bakayavura kugira ngo adabahombya.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

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera usangamo amoko menshi yagiye atandukanye y'inyamaswa, aho zimwe muri izi nyamaswa aba ari nziza cyane aho tubonamo impara ndetse n'inparage ziri kunywa amazi.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera usangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho haba harimo n'imbeba z'agasozi ziba zizi kwiruka cyane, ziba zifite imirizo ifite insenzi.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa z'inkazi, aho muri izo nyamaswa haba higanjemo intare, ziba ari ingome cyane ku buryo zizi gutontoma.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa z'inkaziri aho muri izo nyamaswa twavugamo n'ingwe, ikaba igira iryinyo rityaye cyane.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera usangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa z'inkazi, aho hari izwi nk'ingwe ikaba ikunda kurira ibiti cyane kandi ikagira n'amahane.

Ibishuhe ni zimwe mu nyamaswa zijya kumera nk'imbata dukunda gusanga muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera by'umwihariko nko mu mugezi w'Akagera aho ziba zizi koga cyane kurusha imbata.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa aho izi nyamaswa aba ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubonye izi nyamaswa zimushimisha cyane.

Imbata ni imwe mu matungo yo mu rugo ariko ikaba ijya kumera nk'ibishuhe kuko iyo uyoroye ikagucika ikajya mu mazi ihita ihinduka igishyuhe igatangira kujya yoga ndetse ikaba yanaguruka.

Mu gishanga cyangwa se mu mazi dukunda gusangamo amoko agiye atandukanye y'ibiguruka, aho hari ibizwi nk'ibishuhi bikaba bizi kuguga cyane kandi bikamera nk'imbata neza neza ku buryo ntawabasha kubitandukanya.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusanga harimo amoko menshi agiye atandukanye, aho haba harimo inyamaswa zizwi nk'imisega zikaba nta mbaraga zigira ariko zikagendera hamwe zikagira n'urusaku cyane zigakunda kwiyirira utunyamaswa.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho izi nyamaswa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uzoroye, akazitaho, zibasha kumuha amafaranga.

Utunyamaswa tugiye dutandukanye tuba turi muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera tuzwi nk'intare, iyo tukiri dutoya tuba dufite agasura keza kandi twigirira umutima mwiza.

Muri pariki y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa aho hariho zimwe ziba ziteye amayobera ku buryo ziba zijya kumera nk'utuyongwe.

Igisiga kiri kuguruka aho iki gisiga kiri kuguruka hejuru y'amazi, kikaba gishaka kureba ko cyabonamo agafi maze kikakarya kikabona icyo kiririrwa maze inzara igashira dore ko ibi biguruka bidahinga.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa aho hari inyamaswa imwe nini iba isumba izindi izwi nk'inzovu ikaba ari umwami w'ishyamba mu bunini.

Mu mazi dukunze gusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho hari inyamaswa zizwi nk'ibishuhe zikaba zijya kumera nk'imbata kandi zikaba ziba zizi kuguruka ndetse no koga mu mazi.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho muri izo nyamaswa hari imwe nini izwi nk'inzovu, ikaba ari inyamaswa iba iteye ubwuzu kuyireba.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo inyamaswa izwi nk'ingwe, iba izi kwiruka cyane ndetse ikagira n'amaharine ku buryo nta kanyamaswa gapfa kuyikinisha.

Muri pariki y'Igihugu y'u Rwanda dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa aho muri izo nyamaswa dusangamo impara ndetse n'imparage, ziba ari inyamaswa nziza cyane kandi zibereye ijisho zigira amahoro.

Intare ni imwe mu nyamaswa z'inkazi dukunze gusanga muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, ndetse iyi nyamaswa yitwa umwami w'ishyamba kubera ko iba izi kwiruka kandi izi no kurwana.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho higanjemo zimwe mu nyamaswa zijya kumera nk'abantu ziba zizwi nk'ibitera, ziba zizi kugenda neza cyane zigana abantu.